Abagabo n'abagore bahagaze mu byatsi bose bahurije amaboko yabo kuri mudasobwa imwe bavanye mu gikarito, bigaragara ko ibyo bikarito na byo birimo mudasobwa zizajya zifashishwa kwa muganga.

Ni kwa muganga hari ibikoresho byinshi bitandukanyebiri mu mabara y'umutuku ndetse ibindi biri mu mabara y'ubururu, ni ahantutu abarwayi bashobora kujya byihutirwa bakeneye ubuvuzi.

Imiti myinshi iri mu bicupa bitandukanye hari imeze nk'iyo kwisiga ndetse indi iri mu bishashi bisa nkaho babanza kuyicugusa bagatera abantu, imiti yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze.

Abaganga bambaye imyenda y'icyatsi kibisi n'ingofero z'icyatsi kibisi, bambaye udupfukamunwa tw'icyatsi kibisi, bari iruhande rw'umuntu uryamye ku gitanda bisa naho bakworoshe wagira ngo ntakirimo umwuka, ni abaganga b'abagabo n'abagore.

Baje kwa muganga baricaye ni abakobwa n'abagabo bategereje ubuvuzi aho umwe muri bo arimo arabandika afite ibipapuro abandikamo n'ikaramu.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru, arimo arapima umugore umuvuduko w'amaraso yamushyizeho igikoresho yifashisha hari n'abandi bantu inyuma yabo.

Ni kwa muganga aho abaganga bambaye imyenda y'umweru n'ubururu, bari imbere y'umurwayi uryamye ku gatanda w'umugabo yifashe mu mutwe yambaye n'amarinete n'agapfukamunwa.

Ari mu modoka ishinzwe gutwara abantu kwa muganga ni imbangukiragutabara y'Akarere Nyagatare, ni umugabo wambaye ishati y'umukara n'umweru ari kumwe n'undi muntu mu modoka.

Kwa muganga hari abaganga bane bahagaze, barimo abagabo babiri n'abagore babiri, imbere yabo haryamye umuntu, bamworoshe imyenda y'icyatsi kibisi bisa nk'aho akeneye ubuvuzi bwe bwihutirwa.

Ni kwa muganga mu cyumba cyakira abarwayi barembye cyane bategereje ubuvuzi bwihuse, hari ibikoresho byinshi byifashishwa n'abaganga babatera imiti kugira ngo babagabanyirize ububabare.

Bamuhetse mu ntebe, bamuteruye ari abagabo babiri umwe imbere n'undi nyuma, ni umugore usa nkaho ari ku nda agiye kubyara.

Bicaye imbere y'imodoka nini yanditseho ndetse iriho n'ibirango byo kwa muganga, buri wese yicaranye n'agatsinda, ke bari mu butabazi bw'ibanze babaza ibibazo abantu.

Ni umugabo yambaye ishati y'umutuku iciyemo uturongo, afite imvune ku kaboko, bamwambitse ikintu mu ijosi kimufatira akaboko kubera ko katabasha kuramburika, yaravunitse bamufashije n'ubutabazi bw'ibanze.

Umugabo uryamye ku gatanda ko kwa muganga, akaba arimo serumu ku kuboko, bigaragare ko arembye cyane ari yo mpamvu ari gufashwa byihutirwa.

Imodoka zigaragara ari nyinshi, akaba ari imodoka zitwa imbangukiragutabara, zikorera mu bitaro zitwara abarwayi barembye cyane kugira ngo bahabwe ubufasha.

Ni kutaro hari akayira gasa nk'agatwikiriyeho hejuru amabati, ku buryo uhanyuze imvura iri kugwa utanyagirwa, hepfo gato hari ayandi mazu ndetse hari n'umuntu uhagaze iruhande rw'imwe muri zo.

Ni abaganga bari kwa muganga, bamwe barahagaze abandi bari kugenda, abandi bari kwita ku barwayi, bambaye amataburiya y'umweru, harimo abagabo n'abagore ,kwa muganga harimo n'ibindi bikoresho bakoresha.

Kwa muganga barahagaze ni abamama babiri ndetse n'abagabo babiri bari kumwe n'ibikoresho byinshi birimo nk'intebe yo kwa muganga aho bari kuganira.

Aha ni kwa muganga, hari umuganga ufashe urupapuro n'ikaramu, ari kubaza ibibazo umurwayi kugira ngo amenye ikibazo afite, abe yamufasha kumwitaho.

Bari hamwe, ni ababyeyi b'abagore, bari kumwe n'abagabo, bazanye abana kubakingiza, abagabo barabanza kureba mu bitabo amazina y'abana, ni kwa muganga biri kubera.

Ari kwa muganga ni umuganga wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, afite uturindantoki mu ntoki, hari n'utundi yambaye tw'umweru, ari iruhande rw'ibikoresho byo kwa muganga, hari n'amakaro inyuma ye.

Bari mu nyubako yo kwa muganga ni abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa, bamwe utw'umukara, abandi utw'umweru, bafite igikorwa bajemo cy'ubukangurambaga.

Icyapa kinini cyanditseho impesha kurema z'ibitaro bya Nyagatare, hari ambulanse ihagaze ndetse ni mu busitani aho ari ikirango cyerekana ko ari ibitaro bya Nyagatare.

Ni mu bitaro hari abaganga babiri, umugabo n'umugore, umugore asutse menshi, yambaye ikarita y'akazi, bose bambaye imyenda y'imyeru, bari kureba mu malisite y'abantu, bari kugenzura abaje kwivuza n'abakize.

Umuganga uhagaze ari mu nyubako imwe imbere bisa nk'aho ahagaze yambaye itaburiya ndetse n'ipantaro y'umweru yambaye ikarita y'akazi mu gatuza, afite ikaramu imbere ye hari imiti myinshi n'ibikoresho bisanzwe byo kwa muganga.

Ni mu bitaro, bari hagati mu mbuga, bari kugenda ni abantu benshi, harimo abagabo n'abagore, bamwe bitwikiriye imitaka, bafite igitambaro kinini cyanditseho ku nshuro ya mirongo itatu, ni ukwibuka, ibitaro bya Nyagatare.

Aha ni kwa muganga, umuganga wambaye agapfukamunwa n'impuzankano ziri mu ibara ry'icyatsi, akaba ari kwifashisha ibikoresho, amurika ku mubiri w'umuntu ngo arebe ikibazo afite amufashe.

Ni ku bitaro kwa muganga hari abantu benshi bari mu busitani ndetse abandi bari inyuma y'indabyo, hari inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, abaganga babiri bambaye amataburiya barimo barakina ballon bazifite mu intoki.

Aha ni kwa muganga mu cyumba cy'abarwayi. Harimo abaganga basa naho bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda. Hari n'ibikoresho byo kwifashisha bitandukanye.

Abantu batandukanye bafashe seritifika mu ntoki zabo bari kwa muganga bigaragare ko hari ibihembo bahawe, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru hari n'uwambaye itaburiya y'ubururu.

Ni kwa muganga hari ibitanda byinshi, biriho abarwayi umwe yarambuye akaboko bisa nk'aho bamuteye serumo, bose bari kumwe n'abaganga babitaho usibye umuntu umwe gusa.

Abaganga bambaye kuva hasi kugera hejuru no mu mutwe, bifuritse kugira ngo imiti itaza kubangiza, bari kuyikoraho ubushakashatsi bari muri laboratwari.

Umuganga uri kwa muganga ari muri laboratwari aho ari kureba muri mikorosikope uko ibintu bigenda ari kureba imiti ayigenzura uko yayivanze.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri Laboratwari, bikaba byifashishwa n'abantu bari gukora ubushakashatsi bujyanye n'imiti.

Abanyeshuri bimenyereza umwuga w'ubuganga bafite ibikoresho byinshi bitandukanye, bari hejuru ya ravabo aho bari kurebera muri za microscope bakora ubushakashatsi muri laboratwari.

Abaganga babiri ni abagore bambaye amataburiya y'umweru, bari muri labaratwari, aho barimo baravanga imiti kugira ngo bakore ubushakashatsi ku ndwara runaka.

Ni muri laboratwari hari ibikoresho byinshi byo kwa muganga, abaganga bifashisha nk'umukasi n'utundi dukoresho turi mu mabara atandukanye, muganga arahicaye arimo gukora ubushakashatsi ku miti, yambaye uturindantoki twa move.

Umuganga w'umugore afite imisatsi ya menshi isutse, yicaye ku ntebe imbere ye hari icyuma cyifashishwa n'abaganga, nawe ni umuganga yambaye itaburiya y'umweru, ari kurebesha ijisho rimwe muri mikorosikope.

Abantu benshi batandukanye, hari abari guhereza abana amata mu nkongoro, abana bambaye imyenda iri mu ibara rya oranje, hirya hari abandi bantu batandukanye, hari n'umukobwa uri gufotora.

Abana basa n'ab'incuke biga mu mashuri matoya, bakaba bari kunywa amata cyangwa se igikoma mu bikombe, akaba ari gahunda yashyizweho na leta.

Bari imbere y'ihema ry'umweru riciyeho akarongo k'icyatsi, bambaye imipira y'icyatsi kibisi, ni abagabo ndetse n'abagore bari ku kigo cy'amashuri cy'abana.

Ni imbere y'ikigo cy'amashuri hari abagabo n'abagore barimo barahava, hirya y'aho hari ikigega gishinzwe gufata amazi ni ku ishuri ribanza ry'abana bato.

Ni ku bitaro harakinguye, hakira buri wese, ibitaro binini byubakishije amatafari ahiye, bisakaje amabati y'ubururu, hirya no hino habikikije, hari ibiti bizana akayaga mu bitaro.

Ni mu ishuri aho abanyeshuri bicaye abandi, barahagaze bisa nkaho babahaye icyo gukora, kuko hari abarimu bari kugenda bakosora, buri wese wasoje, ni mu ishuri ry'inshuke.

Ni ku bitaro kwa muganga hari abantu benshi batandukanye, hari umugore uteraruye mwana waje kumuvuza, ubona ko ari ibitaro bifite isuku.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu ateruye akana mu ntoki k'agahinja bisa nk'aho babyutse bari kwa muganga aho yakabyariye.

Muganga ari kwa muganga, imbere ye haryamye akana gatoya k'agahinja, arimo aragapima uko ubuzima buhagaze, muganga ni umudamu wambaye ingofero y'umweru n'itaburiya y'ubururu.

Ni mu ishuri ry'inshuke, abagabo babiri bari gufasha abana kwiga ni abarimu babo, imbere yabo hari ibishushanyo byinshi bitandukanye, abana bicaye bazengurutse.

Bitaruye inzu z'abantu bose, bari ahantu hasa nkaho hari ibimera byinshi n'indabo nyinshi, ni abantu benshi barimo n'abana hari umuntu w'umumama uri kubabwira ibijyanye n'ubuzima.

Umugabo uhagaze imbere y'indangururamajwi yambaye umwambaro w'ubururu uriho ikirangantego k'igihugu uriho ikirangantego cya RBC ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Urubyiruko ruri hamwe mu ihema babubakiye kugira ngo baganire, bari gukoma amashyi basa n'abishimiye ibikorwa biri kuhabera, bambaye udupfukamunwa, imipira y'umweru n'amakabutura ya oranje n'inkweto zifunze.

Yambaye umupira wa Lacosta, wanditseho RBC, nI umugore wicaye imbere ya mikoro, yambaye amarinete, hirya ye hari umugabo wambaye ikositimu, bari kuganira ku birebana n'ubuzima bwo mu mutwe.

Icyapa kinini cyanditseho twite ku buzima bwo mu mutwe, cyandikishije amagambo y'umweru, hari ishusho y'umuntu itagaragara neza, isa n'aho ari ubukangurambaga mu kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Muri farumasi habamo imiti myinshi hari iri mu dukarito, indi iri mu tubido ni mu tubati dutandukanye hari iyifashishwa bavura indwara z'abantu abandi bavura iz'amatungo.

Umugore uziritse imisatsi ya menshi igwa mu mugongo, yambaye itaburiya y'umweru ari muri farumasi aho bagurishiriza imiti y'abantu n'amatungo.

Iyi ni inzu yitwa Pharmacy ikaba irimo imiti igiye itandukanye , iri mu dukarito iri mu ducupa, iyi miti yifashishwa ivura indwara zitandukanye ifata abantu.

Ibikarito biriho inkoko zishushanyije, hariho amagambo menshi ni umuti uvura ubworozi bw'inkoko ucuruzwa muri farumasi.

Iyi ni farumasi, akaba ari inyubako igaragaza ko imbere harimo imiti itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, zibasirara abantu.

Ni muri farumasi, hari imiti myinshi y'amoko menshi, igiye itondetse mu tubati twayo, uko ikurikirana, hari iri mu makarito, hari ivura abantu ndetse n'amatungo.

Inyubako izwi nka farumasi, imbere hakaba harimo abantu babiri bafite impapuro, harimo imiti itandukanye, harimo amazi, iruhande rwabo hari na mudasobwa.

Imiti iri mu macupa y'umweru hariho icyapa kinini kiri mu mabara abiri, umuhondo ndetse n'icyatsi, hariho inka, intama ndetse n'inkoko bigaragara ko ari imiti ivura amatungo.

Ni muri farumasi hari imiti myinshi itandukanye, iri mu tubati twayo aho buri wose ubikwa ukwawo bitewe n'uburyo ukoreshwa uvura abantu n'amatungo.

Amoko y'imiti ni ibinini. Hari ibiri mu mabara y'umweru, umutuku, umuhondo, umukara. Byose byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Akenshi uzisanga muri farumasi cyangwa kwa muganga.

Ni muri farumasi aho hari imiti myinshi itandukanye, hari imeze nk'iri mu ducupa twa korogati, indi iri mu macupa azamuye, hari ibikoresho byinshi byo kwifashisha bavura abantu ndetse n'amatungo.

Abantu benshi bateraniye ahantu mu kibuga kinini, bigaragare ko batumiye n'abahanzi, hari amahema ari mu ibara ry'umutuku n'umweru, bigaragare ko bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima.

Umuganga arimo arapima abantu batandukanye, hari uwo yapimye umuvuduko w'amaraso, muganga yambaye uturindantoki, yambaye n'itaburiya, hirya hicaye umumama arimo arandika ibisubizo by'ibizamini by'abarwayi.

Bari kumwe n'abana ni umugabo n'umugore barimo barabyina bafite mikoro mu ntoki, bambaye imipira y'ubururu barimo barabyina ni ahantu bahuriye n'abandi benshi.

Ni amafoto abiri y'abantu, harimo amabara y'umweru kuko bari bambaye amataburiya y'umweru, ni icyapa kinini kigaragaza, ikoranabuhanga rya radiyo Isango star.

Umusaza ubona ko akuze cyane, akaba afashe ibyati bitandukanye agiye kwifashisha akora imiti gakondo cyangwa dukunze kwita ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi butandukanye harimo imiyenzi, imihati ndetse n'ibindi byatsi bivura kandi bikifashishwa n'abavuzi gakondo.

Ni kwa muganga aho muganga yicaranye n'akana k'agahungu arimo kubaza ibibazo kaje kwivuza kwa muganga uvura bya gakondo, hirya hari n'undi uri kubaza undi muntu uko yafashwe.

Ikimera kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi, kikaba cyitwa umuravmo. Uyu akaba ari umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, zibasira abantu.

Icyatsi kiyiza cyane kitwa inyabarasanye ni icyatsi kigira uduti dufatana tw'uturabyo iyo twamaze kuvaho, ni icyatsi kiri ahantu mu ishyamba kikaba kifashishwa nk'umuti gakondo.

Abagore basa nkaho bakuze bambaye imyenda y'ubururu bose, babiri muri bo bambaye amarinete bakora akazi ko kuvuza imiti gakondo.

Umubyeyi uhetse umwana mu mugongo, akaba afite n'undi mu ntoki bari kugendana n'uwo nguwo afite mu kaboko, afite imalete mu ntoki, yambaye ikanzu y'igitenge, bari kwerekeza ku kigo nderabuzima.

Ikigo nderabuzima cyubatse neza, ahaherereye hirya gato y'umuhanda w'abanyamaguru, ni ikigo nderabuzima cyita ku barwayi benshi kuko n'ubu barahari, hariho amarangi y'ubururu kandi hariho n'idarapo ry'u Rwanda.

Umwana uri gukaraba kuri kandagira ukarabe, ubona ko ari umuco yatojwe arabyishimiye. Hakaba hari undi muntu iruhande rwe uri kumwerekera. Ibi bikaba birinda indwara ziterwa n'isuku nke.

Ni ku kigo nderabuzima aho umusore umwe ahagaze mu idirishya yambaye agapira k'umuhondo, yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu bisa nkaho ategereje ubufasha.

Ni ibitaro biriwibara ry'umweru, imbere yabyo haparitse moto, moto iparitse ku mapave, bisa nkaho umuntu wari uyiriho yinjiye, yagiye kugura imiti yifuza.

Umugabo uhagaze hagati y'intebe, hirya hari abicaye, no hino hari umukobwa wicaye ari kuri mashine ni umuganga mu kigonderabuzima, yambaye itaburiya y'umweru, afite n'ikayi mu ntoki.

Ni kwa muganga, aho muganga ari kwita ku murwayi afite ibikoresho byinshi ari kwifashisha. Bisa nk'aho agiye gutera umugore urushinge ku kaboko, kugira ngo abafate ibizami.

Baricaye ku bitanda, ni abantu babiri umwana na nyina, umwana ari kureba muri telefone, ni kwa muganga aho baje kwivuza, bicaye ku bitanda byo kwa muganga ndetse bategere uza kubafasha.

Aha ni kwa muganga, harimo muganga ufashe urupapuro mu ntoki n'ikaramu ari kubaza umugore wicaye iruhande rwe ikibazo yaba afite kugira ngo abone aho ahera amufasha.

Icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo y'umukara ni ikigo nderabuzima cya Nyagatare, hirya yaho hari ikindi cyapa cyerekana ko hari n'ubuvuzi bukorana na mituweri.